Abantu batatu harimo umugabo umwe n'umugore umwe ndetse n'umwana umwe bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, iruhande rwabo handitse amagambo y'umweru hejuru yabo handitse amagambo yo mu ibara ry'umukara, hari n'ibikarito bibateretse iruhande.

Umugore ndetse n'umugabo bateruye abana ,harimo umwana umwe wambaye agapira k'umweru kamaboko magufiya, hari n'undi ufite imisatsi iboshye bose bari guseka.

Igisambu kirimo icyapa kiriho amashusho abiri y'abantu umugabo ndetse n'umugore, iruhande rwabo handitse amagambo, hasi hagarara umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, hagati yabo hari icyapa cya orange cyanditsemo amagambo y'ubururu. Hepfo hahagaze undi mugabo uri kubareba wambaye umupira w'umutuku n'isaha ku kuboko.

Umukobwa uraramye ari guseka wambaye amadarubindi ku maso, yambaye agapira k'amaboko maremare ko mu ibara ry'umweru, afite igikapu ku rutugu n'ikindi yari gukurura inyuma kiri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ingofero, usa nk'uwunamye, wazamuye intoki ebyiri z'igikumwe, ahagaze mu bihingwa bigaragara nk'ibigori, iruhande rwe handitse amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'ari mu ibara ry'umweru.

Umusore wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, yambaye ikote ry'umukara, inyuma ye hagaragara icyapa cy'ubururu, imbere ye hariyo ameza arambuyeho igitambaro kirimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo, hari n'ururabo ruri iruhande rwayo hagaragara n'abandi bantu babiri.

Abagore babiri bahagararanye, umwe yambaye amadarubindi ku maso, ari gukora kuri mudasobwa iteretse imbere yiwe, ku meza hari n'ibipapuro.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nini z'ubwikorezi, bafite urufunguzo mu ntoki, buri wese afashe ku mpera, rwanditseho amagambo yo mu ibara ritukura.

Icyumba gifite imbuga y'umweru gihagazemo imodoka nini y'ubwikorezi, iri mu ibara ry'umweru, hari n'ameza y'kirahuri ateretseho ikinyamakuru ndetse n'icupa.

Imbuga ya isashemo amabuye, ihagazemo abagabo babiri, bafashe ku rufunguzo rw'umweru rwanditseho amagambo y'umutuku, inyuma yabo hagaragara imodoka eshatu ziri mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bafashe ku rufunguzo runini rw'umweru rwanditseho amagambo atukura. Umugabo umwe afite agakapu gatukura mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ebyiri nini z'umweru z'ubwikorezi.

Imbuga isashemo amabuye hahagazemo abagabo babiri bafashe ku mpera z'urufunguzo runini, rw'umweru rwanditsemo amagambo y'umutuku, inyuma yabo hari imodoka nini itwara abagenzi.

Imodoka y'umukara ikinguye imiryango yombi, ku muryango w'ibumoso hahagaze umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umweru w'amaboko magufi ndetse n'agapfukamunwa, no ku rundi ruhande ni uko.

Abagabo babiri bafashe ku mpera z'urufunguzo runini, rwanditseho amagambo y'umutuku, inyuma yabo hagaragara imodoka nini y'umweru, hasi ku mbuga isasheho amabuye, hateretseho agakapu gatukura.

Icyumba giteyemo intebe ziririmo ibara ritukura cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye hari n'abandi bahagaze hari ameza ateretseho icupa ndetse hahagazemo n'imodoka itwara abantu ku giti cyabo.

Abagabo batatu bahagaze bafite urufunguzo rw'umweru runini mu ntoki rwanditseho amagambo y'umutuku, babiri muri bo bafite udukapu turi mu ibara ritukura, bahagaze imbere y'imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi.

Abagabo babiri bahagararanye bagaragara igice cy'gihimba, umwe ni umwirabura yambaye imyambaro irimo amabara y'umutuku, undi ni umuzungu yambaye ishati iciyemo imirongo ndetse nisaha ku kuboko.

Imodoka ntoya y'umukara itwara abantu ku giti cyabo iri kugenda mu handa wa kaburimbo, hakurya hagaragara inzu y'igorofa igaragara nkaho ikiri kubakwa hateye n'ibiti.

Abagabo babiri bahagaze, buri wese afashe ku mpera y'urufunguzo runini rwanditseho amagambo y'umutuku, umwe yambaye umwenda w'ubururu hejuru, afite n'agakapu gatukura mu ntoki, inyuma yabo hahagaze imodoka.

Abantu batatu, hagaragaramo abazungu babiri b'abagabo ndetse n'umugore umwe, ubahagaze hagati wambaye amadarubindi ku maso, bafashe ku cyapa kinini kiriho imodoka.

Imbuga isashemo amabuye ihagazemo abantu babiri bafashe ku mpera z'urufunguzo runini rw'umweru rwanditseho amagambo y'umutuku, umwe muri bo afite agakapu gatukura mu ntoki yambaye n'isaha ku kuboko, inyuma yabo hari imodoka y'umweru nini y'ubwikorezi.

Imbuga ihagazemo imodoka zisa zitwara abantu ku giti cyabo ziri mu ibara ry'umweru, inyuma yazo hagaragara amazu abiri y'amagorofa ndetse n'ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu gafatanye n'ubusitani buteyemo indabo, iruhande yabwo hagaragara ibyapa biri mu mabara abiri, hari icy'ubururu, hari n'icy'umweru, hagaragara n'inzu ndetse n'imodoka.

Agaceri gato cyane kanditseho umubare gatanu mu mpande ku muzenguruko handitseho amagambo, hagati harimo igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda, igiceri gifite ibara risa nka zahabu.

Igiceri cyanditseho amagambo, hagati gishushanyijemo insina iriho igitoki, hasi cyanditseho imibare ibihumbi bibiri n'ikenda.

Ibiceri bibiri, icyo hejuru cyanditseho mirongo itanu, n'amagambo yanditsemo hagati, icyo hasi cyanditseho amagambo ku mpera, ku muzenguruko wacyo, hagati hashushanyijemo agashami k'igiti.

Inoti ebyiri zanditseho ibihumbi bitanu, imwe iri hasi indi iri hejuru, iyo hejuru igaragaraho igishushanyo cy'umugore wikoreye igitebo, iyo hasi igaragaraho igishushanyo cy'insina ifite igitoki ndetse n'imisozi.

Ameza akoze mu giti ateretseho ikaramu y'ubururu, ateretseho n'igikombe cy'amata, cyuzuye gisendereye, hari n'ikiganza gifashe irindazi mu ntoki rishonyeho.

Umwana mutoya uhagaze, inyuma ye hagaragara umusore wambaye imyambaro irimo umutuku uri guseka, ufite terefone ngendanwa mu ntoki, haruguru yiwe ku ruhande hagaragara igicuba cy'icyuma bashyiramo amata.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'ikabutura, ahetse igikapu mu mugongo, inyuma y'iwe hagaragara intebe ndetse n'ameza ateretseho ikayi, ku ruhande hari igicuba babikamo amata.

Ameza ateretseho indobo ibonerana ifite umupfundikizo urambitse hejuru harimo amakeke, hagaragara n'igikuta cy'amatafari ahiye ndetse n'intebe y'umweru igaragara agace gato.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo, kirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye mu kabati k'ubururu, hari ibiri mu macupa n'ibiri mu makarito, akandi kabati k'ikirahure hagaragaramo amagi, hejuru yako hari indobo y'ibiryo.

Umugabo uhagaze imbere y'umuryango ukinguye, wambaye ishati iciyemo imirongo, iruhande rwiwe hari intebe irimo ibara ry'mweru, hari n'iyindi yo mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo ameza ndetse n'intebe zizengurutse, gifite ibikuta byubakishije amatafari ahiye, harimo akabati k'umweru karimo injirekani z'umweru ndetse n'amacupa hejuru hateretse inkongoro ebyiri banywesha amata.

Imbuga iri mu ibara ry'umweru iteretsemo utujerekani tune twegeranye twanditseho amagambo yo mu mabara atandukanye harimo umukara, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi. Haruguru yatwo hari utundi tubiri twegeranye kamwe gasa umweru akandi gasa umuhondo. Haruguru hagaragara igicuba batwaramo amata.

Umusore wambaye umupira w'ubururu uciyemo imirongo y'umuhondo ku kuboko no ku rutugu, imbere mu gatuza handitsemo amagambo y'umuhondo, afite terefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwe hahagaze umusore wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi afite telefone ngendanwa ntoki.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo uboshye mu budodo afite umusatsi mugufi kumutwe yazamuye urutoki rw'igikumwe afite amafaranga menshi mu ntoki hariho inote iriho igishushanyo cy'inyamaswa y'ingagi.

Umuntu utagaragara igice cy'umutwe agaragara igice gitoya cy'igihimba afite terefone ngendanwa mu ntoki, intoki ze zisizeho ibara ritukura.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufiya wazamuye urutoki rwe rw'igikumwe, afite umusatsi mwinshi ku mutwe ari guseka agaragara igice cy'igihimba, afite terefone ngendanwa iri kwaka mu ntoki yayerekanye.

Urupapuro rwanditseho amagambo y'umukara, munsi rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri, zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru munguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri, zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru munguni igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda muyindi nguni hari ibishushanyo byerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara munsi hagaragara imbonerahamwe ebyiri zanditsemo amagambo ndetse nimibare ,hejurumunguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy' Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda. Mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo k'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanranyo k'irangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri zirimo imibare ndetse n'amagambo hejuru mu inguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, hashushanyijeho n'imbonerahamwe irimo imibare ndetse n'amagambo, hejuru muguni hari igishushanyo cy'ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe imwe, irimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, hashushanyijeho n'imbonerahamwe ebyiri zanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweruru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, munsi hashanyije imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rushushanyijeho imbonerahamwe zirimo imibare ndetse n'amagambo, hejuru mu nguni hari igishushanyo byerekana Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo k'ikirangantego cy u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditsehoho amagambo y'umukara, rushushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ashushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo imibare ndetse n'amagambo hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'irangantego cy'u Rwanda mu yindi ngunihaye igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, rushushanyijemo imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Inoti ebyiri zose zanditseho mirongo itanu, iyo hejuru ishushanyijeho ishusho igaragara nk'iy'umuntu, iyo hasi iriho amazu, inyuma yayo hateye ibiti, hejuru handitseho amagambo.

Inoti ebyiri imwe iri hasi indi iri hejuru zose zanditseho magana atanu, iyo hejuru iriho ishusho y'umugabo ndetse n'inyamaswa y'imparage, iyo hasi iriho umugore wicaye hasi afite igitebo kimuteretse mu maguru.

Inote zisandaguje zifite amabara agiye atandukanye hari iyanditseho mirongo itanu, iyindi ikaba yanditseho icumi, iyindi yanditseho ibihumbi bibiri, hari n'iyanditseho magana abiri. Hariho ishusho y'umuntu wambaye amadarubindi.

Icyapa gishushanyijeho imbonerahamwe irimo imibare y'amagambo, hariho n'amabendera y'igihugu, harimo Ubushinwa, Canada ndetse n'Ubuyapani utibagiwe na Tanzania.

Icyapa gishushanyijeho imbonerahamwe, yanditseho imibare iri mu ibara ritukura, n'amagambo ari mu ibara ry'umweru, hariho n'amabendera y'Ibihugu, harimo Ubuyapani, Koreya ndetse na Canada.

Inote yanditseho igihumbi, iri mu mabara agiye atandukanye, hejuru handitseho amagambo yo mubara ry'icyatsi ndetse n'ubururu bwijimye, hagati hagaragaramo ifoto y'umugabo.

Umugabo wambaye umupira uciyemo imirongo y'amabara atandukanye, ari kureba ku cyapa gishushanyijeho imbonerahamwe, iriho amagambo ndetse n'imibare, hariho n'amabendera y'ibihugu nka Kennya, Canada, Ubushinwa ndetse n'Ubuyapani.

Inote ebyiri imwe iri hasi indi iri hejuru, iyo hejuru yanditseho ibihumbi icumi hariho n'ishusho z'inka ebyiri, iyo hasi yanditseho ibihumbi makumyabiri, hagaragaraho udusumbashyamba tubiri dushushanyijeho.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro, kigaragara agace gatoya k'intebe ndetse n'agace gatoya k'ameza, ku rukuta hamanitse isakazamashusho nini cyane, hari n'igikombe giteyemo ururabo.

Imbuga iteretseho ameza abajwe mu biti ndetse n'intebe ziri mu ibara ry'umukara n'akandi kameza gato cyane k'uruziga kabajwe mu biti ndetse n'akabati, inyuma yabyo hagaragara inzu yubakishijwe amabati.

Imbuga ishashemo amabuye iteyemo intebe zibajwe mu giti zizengurutse ameza y'uruziga na yo yabajwe mu giti inyuma yazo hagaragara igice cyo hasi cy'inyubako zifite inzugi ndetse n'amadirishya.

Abagabo babiri ,umwe w'umuzungu wambaye ikote n'ipantaro bisa, undi w'umwirabura wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ndetse n'intebe y'umukara ari ku ruhande rw'ameza.

Imbuga ihagazemo imodoka itwara abagenzi ku giti cyabo no mu ibara ritukura, imbere yayo hari igorofa ya imanitseho ibyapa bigiye bitandukanye hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ritukura.

Imbuga y'igitaka irimo ubwoko butandukanye bw'imodoka, harimo iziri mu ibara ry'umweru n'iyindi imwe ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, hejuru hagarara ikirere, imbere yazo hari inzu.

Umukobwa uri guseka, wambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, uri gutunga urutoki ku cyapa kiri inyuma yiwe, cyanditseho amagambo ndetse n'imibare.

Umukobwa uri guseka wambaye umwambaro uri mu ibara ry'icyatsi, afite umusatsi muremure w'umukara, yambaye isaha ku kuboko imbere ye hari icyapa, iruhande rwe handitse amagambo y'umweru.

Umusore wambaye ipantaro n'ishati bisa, uteruye umukobwa ufite imisatsi myinshi ku mutwe, wambaye umupira w'amaboko maremare, bari guseka, inyuma yabo handitse amagambo.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, uciyemo imirongo y'umukara, yambaye amadarubindi ku maso, afite igitabo kirimo ibara ritukura, ukuboko kumwe kw'iwe gufashe ikaramu kwashyize mu mutwe.

Abantu bane bagaragara igice cy'igihimba harimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu afite inyundo ku rutugu afite n'ingofero y'ubwubatsi mu ntoki hagaragara n'umukobwa wambaye imyenda y'umweru uri guseka n'undi mugabo wazamuye urutoki rw'igikumwe n'undi mugore ufite ikaye y'ubururu mu ntoki.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro bisa, yambaye ishati y'ubururu ifite ibifungo by'umweru, yazamuye urutoki rw'igikumwe, afite amafaranga mu ntoki ari guseka.

Imbuga isashemo amabuye, iteretsemo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ingoma, inkoko ndetse n'ibisabo. Hagaragara agace gatoya k'umutaka kari mu ibara ry'umuhondo.

Ahantu hari abantu bicaye ndetse n'abahagaze, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagaragara nko mu isoko hari ameza ateretseho ibyo kurya bitandukanye, harimo inyanya, ibitunguru ndetse n'intoryi.

Abantu benshi bahagaze ahantu hagaragara nk'isoko, harimo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo imboga. Harimo inyanya ziri mu tudobo ndetse n'ibirundo by'intoki na karoti ndetse n'imiteja.

Ukuboko kwambaye ibikomo kuri gutunga urutoki ku gikapu cy'igitenge, hari n'amabasi arimo amashaza n'arimo inyanya n'arimo imineke ya kamara.

Abantu babiri bicaye, undi ahagaze ahantu hari ubwoko bwinshi bw'imboga, harimo inyanya, pavuro, karoti ndetse n'imiteja, utibagiwe n'intoryi, hari n'ahantu harunze amashu.

Umuhanda uri kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi, hakurya y'umuhanda hari inyubako zifite ibyapa hejuru, haruguru yazo hahagaze imodoka nyinshi ziri mu mabara atandukanye zitwara abantu ku giti cyabo.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe, imbere ye hari ibitebo ndetse n'inkoko birimo imbuto zigiye zitandukanye harimo inanasi, ibinyomoro, amatunda ndetse n'imyembe.

Imbuga irimo urunyurane rw'abantu rwambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye imbere yabo hari inzu y'igorofa imanitseho ibyapa by'ubwoko butandukanye hejuru hagaragara ikirere kiririmo ibara ry'umweru ndetse n'irindi barajya gusa nk'ubururu.

Ahantu hari inyubako isakaje amabati y'ubururu, hasi hagaragara urunyurane rwabantu, bambaye imyambaro ya mabara atandukanye hari n'ikirundo cy'ibitoki.

Abantu bahagaze ahantu hari imbuto z'amoko agiye atandukanye, harimo imineke ya kamara, imyembe, ibinyomoro ndetse n'inanasi, hejuru hari ahantu hamanitse ibikapu bikozwe mu mufuka n'ibindi bikapu by'ubwoko butandukanye.

Imbuga irimo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hari n'abikoreye amabasi ku mutwe, abandi bafite imifuka imbere yabo, inyuma yabo hagaragara inzu y'igorofa.

Umugabo wambaye umupira w' umuhondo w'amaboko magufi ,wambaye amadarubindi kumaso udafite umusatsi. Imbere ye hari ameza y'umukara ateretseho mudasobwa . Imbere hakagaragara umugabo wambaye umupira urimo amabara menshi.

Akazuru gatoya kari mu ibara ry'umuhondo gakinguye amadirishya yose; mu idirishya rimwe hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi uhetse igikapu cy'umukara mugongo; yambaye n'ibitare ku kuboko.

Utuzu tubiri dutoya twegeranye, kamwe kari mu ibara ritukura kanditseho amagambo y'umweru, gafunguye amadirishya abiri, karimo umuntu ufite telefone ngendanwa mu ntoki, akandi kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo, gafite idirishya rikinguye hahagaze umuntu.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi mo imbere yambariyemo akandi k'umukara k'amaboko maremare, afite terefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwe hari umugabo wicaye ku ipikipiki, ufite terefone ntoya ngendanwa ku gutwi.

Akazu k'umuhondo gakinguye idirishya, imbere yako hahagaze umuntu wambaye umupira utukura, inyuma yako hagaragara inzu yi'igorofa ifite inzugi zikinguye.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo y'umukara gakinguye amadirishya abiri, mu idirishya rimwe hahagaze umugabo wambaye ikote mo imbere hari umuntu wicaye muri ako kazu.

Abantu bambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufiya yanditsemo amagambo yo mu ibara ry'ubururu mu mugongo bambaye n'ingofero z'umukara, iruhande rwabo hari icyapa kiri mu mabara abiri umuhondo ndetse n'umukara.

Abagabo babiri bagaragara nk'abari kubyina, bambaye imipira y'umweru, inyuma yabo hari abandi bakobwa babiri, bambaye imipira y'umuhondo, y'amaboko magufiya, inyuma yabo hari icyapa cy'umuhondo, ndetse n'ikindi kiri mu ibara ritukura.

Umusore wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufiya, yambaye ingofero bambara bagiye kuri moto y'ubwirinzi, imbere ye hari ikarito iri mu ibara ry'ubururu yanditseho amagambo y'umweru, afite n'iyindi karito ari gushyiramo.

Amapikipiki abiri atwaye abagenzi, uw'imbere atwaye umugenzi wambaye umupira w'amaboko magufi, ipantaro, ndetse n'inkweto zitukura, uw'inyuma atwaye umugenzi wambaye ipantaro y'ubururu.

Imbuga isashemo amabuye ihagazemo ipikipiki iri mu ibara ritukura, aho batwara umugenzi hari agasanduku karimo ibara ry'icyatsi kibisi handitseho amagambo y'umweru, ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo.

Ubwoko bw'imboga bugiye butandukanye burundiye hamwe, harimo amashu, inyanya sereri, tungurusumu ndetse n'urusenda, hasi hari na tangawiziye.

Ipikipiki ifitemo amabara atukura yegamweho n'umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufitemo amabara abiri oranje ndetse n'umuhondo, afite igikapu ku rutugu kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse na oranje.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, uhagararanye n'umwana wambaye agapira k'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho avoka, ibiyiko, n'amafirushiti ndetse n'ayandi masahani arimo ibintu.

Abatwazi b'amapikipiki benshi bambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, yanditsemo amagambo y'umweru mu mugongo, imbere yabo hari imodoka ntoya y'umweru, hagaragara n'inzu isakaje amabati y'umutuku.

Umuntu utwaye ipikipiki wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufiya, inyuma hicara umugenzi. Hari igikapu kinini kirimo ibara ry'umuhondo ndetse na oranje.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro, kirimo intebe zifite ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yazo hagaragara ameza, gifite ibikuta by'umweru, hari n'insakazamashusho imbere ku gikuta.

Abantu babiri bahagaze mu busitani harimo umukobwa w'umwirabura ndetse n'umusore w'umuzungu. Inyuma ya bo hateye ibiti by'imikindo, imbere hagarara amazi yo muri pisine ndetse n'inyubako.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro kirimo intebe ziri mu mabara atandukanye; ku gikuta cy'umweru hamanitse insakazamashusho mu nguni hari itara riri kwaka.

Umukobwa wambaye umupira wo mu ibara ritukura, wambaye n'ipantaro y'umukara, uri guhereza amverope ya kaki undi muntu wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, utagaragara mu isura.

Umugore uri guseka uteze igitambaro mu mutwe, wambaye imyambaro y'igitenge irimo ibara ritukura, iruhande rwe handitse amagambo yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Ubusitani burimo ibyatsi buzengurutswe n'indabo z'umuhondo, zizengurutswe n'imbuga ntoya isashemo amabuye y'amaserebwayi, hakurya hari abantu bicaye imbere yabo hari ikigega cy'umukara kibika amazi y'imvura, hari n'inyubako zakarishije amabati y'ibara ry'ubururu.

Igisambu gihagazemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bari kureba imbere ku nzu yubakishijwe amatafari ahiye isakarishijwe amabati y'ubururu, inyuma yabo hicaye abandi bantu bicaye hasi bitwikiye umutaka, hari n'ibyapa bibiri.

Umusore wambaye ishati iciyemo imirongo y'umweru ndetse n'umukara uhagaze mu mbuga isashemo amabuye. Afite mu ntoki icyapa cyanditseho amagambo ndetse n'imibare, inyuma ye hagaragara igiti cy'umukindo ndetse n'indabo.

Inzu isakarishijwe amabati y'ubururu, isize ibara ry'ubururu ku bikuta, imbere yayo hahagaze umugore wambaye ikanzu yo mu bwoko bw'igitenge, irimo ibara ritukura.

Abantu bahagaze ku murongo utambitse, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagaragaramo abagore babiri, abagabo barimo bambaye amakote ndetse n'amapantaro, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo.

Umugore uteze igitambaro kirimo amabara y'umuhondo mu mutwe, wambaye ishati y'icyatsi kibisi ndetse n'igitenge yakenyeye cyo hasi kirimo ubururu, imbere ye hari abantu bambaye impuzankano zigaragara nk'iz'abakaganga na ga mu ntoki bicaye bari kwandika, ku muryango hari abandi bagaragara nk'abategereje kwinjira.

Umukobwa wicaye ku ntebe, wambaye ijipo iri mu bwoko bw'igitenge, yambaye agapira k'amaboko magufi gasa nk'akarangaye mu gatuza, afite udupapuro tubiri mu ntoki, ntagaragara igice cy'umutwe.

Abagabo babiri bambaye amakoti n'amapantaro bisa, umwe yambaye amadarubindi ku maso, afite agakapu k'umuhondo mu ntoki, iruhande rwe hari ururabo, inyuma ye hari abantu bambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo, kirimo akabati k'umweru gateretsemo ibicuruzwa, hari ibiri mu macupa ndetse n'ibiri mubikarito, imbere hahagaze umugabo munini wambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare, yambaye n'agapfukamunwa.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, iboshye, ifungiye inyuma yo mu ibara ry'umukara, yambaye ikote ry'ikoboyi, ndetse n'ikabutura y'ikuboye, imbere ye hari utubati dutondetsemo ibicuruzwa bitandukanye.